Umwana mutoya ari kuvoma amazi yatereze igikombe kuri robine izi robine ziri kuvomo amazi bisa nkaho ari meza uyu mwana ashobora kuba agiye kuyanywa n'ubwo adatetse.

Umukobwa ari kuvoma amazi ahantu mu kagezi gashoka ndetse bafashe ikivuvu bagicomeka ahantu ku mukingo ni cyo kinyuraho amazi mu by'ukuri bisa nkaho aya mazi atari meza.

Ihuriro ry'abaganga benshi batandukanye, bambaye amakarita y'akazi azwi nk'amabaji, bose bafatiy’ifoto hamwe n’undi muganga w’inzobere w’umuzungu.

Abantu benshi cyane biganjemo abera cyangwa se abo bakunze kwita abazungu bakaba bafite uducupa imbere y'ameza yabo bari mu nama cyangwa amahugurwa ashinzwe kwita ku bintu by'ubuzima.

Abantu benshi cyane ba babyeyi bafite abana babo bigaragara nkaho baje kwa muganga, ndetse hari umuganga uri imbere ufite n'ibikapu, akaba ari kwita ku mwana umwe ndetse n'abandi bategereje ubuvuzi bwe.

Umwana ni mutoya ari gukaraba intoki, akaba afite n'amajerekani atatu ateretse iruhande rwa robine, ubanza yaje kuyatega ngo iwabo baze kuza kuyatwara cyangwa bakuru be kuko we ntago yayashobora.

Abantu bahuriye ahantu hamwe, bose abenshi ndi kubona ari abagore, ndetse ni abagore gusa. Bari kwigishwa iby'ubuzima bugiye butandukanye.

Umumama ukenyeye igitenge, yikoreye amazi mu ndobo y'umutuku, afite n'andi mazi mu yindi ndobo y'umuhondo atwaye mu ntoki, biragaragara ko ari kuvunika.

Abana batatu bari gukina n'amazi, bose bakaba ari abana bari mu kigero cy'imyaka itatu n'ine ndetse aba bana bari gukinisha amazi ku gitembo cyapfumutse kijyana amazi mu ngo z'abaturage.

Umuntu w'umugabo ari gukorera ijerekana umwana mutoya bigaragara ko ari ihohoterwa, kuko uwo mwana ntarageza imyaka yo kwikorera ijerekani. Ijerekani ari gukorerwa irimo amazi, ishushanyijeho ikirango cy'Umuryango w'Abibumbye wita ku Bana UNICEF.

Hari icyapa kiriho abantu bagera muri batanu, harimo abagore ndetse n'abagabo, ariko handitse amagambo y'icyongereza agaragaza ko, nta n'umwe ugomba gusigara ubuzima bwa buri wese bugomba kwitabwaho.

Umuganga ari kwita ku muntu w'umurwayi ndetse abarwaza be bicaye kuri matora, bigaragara ko uyu murwayi arembye cyane.

Abantu bagera muri batanu, batatu ni abagabo babiri n'umugore umwe w'umuzungu, undi ni umwana wikoreye ijerekani ipfundikije umwanana, inyuma yabo hakaba undi muntu w'umugabo wambaye ishati y'umweru uri guhinguka.

Umwana mutoya ndetse bigaragara ko ari nko mu myaka ibiri cyangwa se wenda itatu, mu byukuri ari iruhande rw'ibyatsi by'ibimera. Inyuma ye hari umubyeyi asa nk'aho yishimye.

Abaganga benshi cyane batandukanye, bifotozanyije n'undi muganga w'umunyamahanga ndetse bigaragara ko yari yaje kubaha amahugurwa yagiye atandukanye.

Amazi ari kuva mu gihombo kinini cyapfumutse, bigaragara ko ar’amazi y'ahantu hatari heza. Si byiza ko tuvoma amazi mu bishanga ndetse n'ahandi hantu haduteza akaga.

Umugabo ukuze ari gusuhuzanya n'undi mugabo wambaye ikote ry'umukara na karuvati, gusa uwo nguwo usa nk'ukuze afite ibitabo mu ntoki ndetse bigaragara ko afite umusatsi atariyogoshesha.

Ubukangurambaga bukunze gukorwa hirya no hino mu Rwanda, aho baba bashishikariza abaturage kubaka uturima tw'igikoni kugira ngo babone aho basoroma imboga n'imbuto. Abayobozi b'inzego z'ibanze bajya bagira uruhare mu gufasha abaturage kubona utu turima.

Abamama babiri bari kunywa amazi bakoresheje intoki, bari kuyanywa ku ivomero rusange ndetse hateretse amabuni abiri ategereje kuvomerwamo amazi, inyuma ya robine hahagaze undi muntu w'umumama wambaye agapfukamunwa n'ishati itukura.

Abantu bazengurutse ameza bakaba bameze nk'aho bari mu nama bose bakaba nt'amazi bafite yo kunywa ari imbere yabo nk'uko bimenyerewe mu zindi nama.

Umubyeyi ahagaze imbere y'abaganga babiri ndetse umuganga umwe arimo kwitegereza muri mudasobwa afite n'ibipapuro, undi muganga wo hirya na we afite ibyo ahugiyemo, hari n'akantu k'agapimo karambitse ku meza, hirya hari abandi bantu bategereje serivise.

Amacupa maremare abiri ndetse akaba azwi nka kizimyamwoto, aya yifashishwa igihe habaye inkongi y'umuriro kugirango atange ubutabazi bw'ibanze mu kuzimya iyo nkongi.

Umubyeyi ukennye igitenge wambaye ingofero ihinnye, akaba ari kuri kandagira ukarabe ari gukaraba bisa nkaho avuye mu bwiherero. Ni byiza ko dukaraba intoki igihe cyose tuvuye mu bwiherero.

Umu mama wambaye agapfukamunwa ndetse uteruye umwana mutoya, akaba ari kumukinisha amusoma ndetse amubwira utugambo twiza.

Umubyeyi yicaye ku ntebe y'ubururu, imbere y'inzu mu muryango w'inzu hari irido iri kugaragara, iyi nzu yubakishije amatafari ahiye, hari umujyanama w'ubuzima uri kugira inama uyu mubyeyi.

Umubyeyi ufite umwana akaba amuteruye, uyu mubyeyi yambaye igitenge ndetse ateze igitambaro cy'igitenge gisa n'icyo yambaye mu mutwe, afite ifishi y'umwana mu ntoki bisa nk'aho agiye kwakirwa n'umuganga.

Umuntu bigaragara ko ari umuganga, yambaye agapfukamunwa ari kureba mu byuma by'ikoranabuhanga, ibyo byuma bikaba bicometseho insinga z'amashanyarazi, hakaba hari kugaragara idirishya rikinguye.

Umubyeyi ufite ifishi yaje kwa muganga aho yazanye umwana we kumukingiza, ndetse inyuma ye hari abandi babyeyi benshi bateruye abana bategereje ubuvuzi bwa muganga ndetse bakaba bose bicaye.

Umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura. Ni amagambo yanditse ku kibanderori gifashwe n'abantu b'urubyiruko batandukanye.

Abana babiri batoya rwose b'abahungu bari gukina n'amazi bari kugenda bafata intoki zabo bagatega kuri robine bakamena bakongera bagatega bigaragara ko bakiri batoya bari mu by'ubwana.

Abantu baje kuri robine, baje kuvoma amazi meza, gusa ayo mazi biragoye kuyavoma kubera ko bisaba ko umwe ajya inyuma agapomba akoresheje imbaraga nyinshi cyane, usibye yuko uko ugenda upomba ariko ugenda ushyiramo imbaraga nkeya.

Ni mu nyubako, inyubako bisa nk'aho ari iyo kwa muganga. Hari umuntu ufashe ku meza, ayo meza ariho ibintu by'ibipapuro. Iruhande rw'uwo muntu, hari abandi bantu b'abagore. Bisa nk'aho bari kugirwa inama n'abaganga.

Umubyeyi ari kuhagira umwana we mutoya ndetse bari iruhande rwa robine, hari abandi bantu nk'umubyeyi uje kuvoma ufite indobo ariko nawe wegeranye n'umwana we.

Isi yose muri rusange yahagurukiye kurwanya indwara zigiye zitandukanye, ari nayo mpamvu bahora bakora ubukangurambaga mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse na za Guverinoma kugira ngo bashishikarize abayobozi b'ibyo bihugu kwita ku buzima bw'abaturage.

Umubyeyi ari kuvoma amazi mu mugezi utemba, ndetse har’umuntu inyuma ye uri koza igare mur’aya mazi. Mu byukuri si byiza kuvoma amazi mabi kuko ashobora kudutera indwara.

Abantu benshi bateranye bicaye imbere y'inzu, iyo nzu ikaba igaragaraho imbaho nyinshi ndetse n'urugi rukinze, imbere yabo hari umuntu umwe akaba afite igitabo n'ikaramu bigaragara ko hari icyo ari kubabwira.

Ivomere rusange, riteretseho amajerekani menshi. Hari umuntu bigaragara ko afasha abaturage kuvoma amazi meza. Hari n'abaturage bategereje kujyana amazi.

Abantu benshi bifotoreje imbere y'inyubako, nyuma yo gukora inama mpuzamahanga yitaga ku buzima, ndetse harimo n'umuzungu akaba ari umuzungu wambaye ikote ry'umukara na karuvate.

Ubuzima bukwiye kwitabwaho ku isi hose hari amagambo yanditse agira ati jojiya gorobo herifi ariyance bigaragaza ko isi yose no muri jeworojiyo bakwiye guhagurukira iby'ubuzima.

Ababyeyi ndetse n'inzego z'umutekano bahurije hamwe abana batandukanye bafite imyaka iri hagati y'itatu n'ine cyangwa ibiri bakaba bari kubaha indyo yuzuye babaha ndetse n'agakoma.

Abantu benshi bafite inyandiko bari kwandika kuko, bafite impapuro bari kwandikaho, ndetse hari abandi bari kurebera bigaragara ko bari kwa muganga.

Abantu batandukanye bari mu nama, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi ndetse hari umwe wicaye, iruhande rwe utegeranye n'abandi, bisa nkaho ari kubagira inama.

Abana benshi cyane bahuriye ku mugezi bose bashoye amaboko yabo kuri robine bisa nkaho bari gukaraba gusa ni byiza cyane kwigisha abana batoya gukaraba intoki zabo kugira ngo birinde umwanda.

Umwana mutoya yaje ku ivomero rusange amaze kuvoma amazi ayavomeye mu ndobo itukura, ari kuzamura ngo ayikorere imbere ye hari umugabo uwo mugabo yambaye ipantaro y'ikoboyi, ari kurebera umwana gusa afite ingata bisa nkaho agiye kuyimushyirira ku mutwe.

Umwana mutoya w'umukobwa ari kunywa amazi ku karobine ndetse imbere ye hateretse ikintu cy'ikidomoro bisa nkaho kijyamo imyanda ndetse handitseho amagambo ari ku cyapa gitoya kiri mu mabara y'ubururu, ayo magambo yanditseho UNICEF.

Abantu bazengurutse ameza bose bakaba bafite imbere yabo igikombe giteretse ku gasahani bisa nk'aho kirimo icyayi bagiye kunywa, bose bari mu nama nyunguranabitekerezo yiga ku bibazo by'ubuzima.

Umudamu ukuze ariko utari umukecuru, akaba yaje ku ivomero, ateze amazi mu ndobo, abandi babiri bari inyuma, bari gupomba amazi ngo aze.

Abavomyi benshi cyane bahuriye ku ivomo rusange bakaba baje kuvoma amazi meza kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze, mu by'ukuri bazanye amajerekani, indobo ndetse bari kuvoma imbere n'inyuma.

Abana bari kuvoma amazi mu mugezi utemba, ndetse bikaba bisa nk'aho aya mazi bari kuyavomera mu ndobo no mu ibasi; ahari bagiye kuyakoresha, gusa sibyiza gukoresha amazi yanduye.

Hari abantu bifotoreje imbere y'inyubako, iyo inyubako yanditseho amagambo y'igifaransa ariko bikaba bisobanura ngo salo y'inama. Bigaragara ko bafashe ifoto nyuma yo kuva mu nama.

Wasake n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura mu rwanda, kikaba gishinzwe gutanga amazi meza ku baturage mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo.

Ibyuma by'amamashini agiye atandukanye byinshi cyane biri mu nyubako yo kwa muganga ndetse bitondetse ku murongo byose bikaba byifashishwa mu buvuzi bugezweho.

Abana benshi bambaye inifomo b abanyeshuri bahagaze ku murongo umwe ndetse imbere yabo hari abayobozi n'abarimu.

Imbaga y'abantu benshi cyane bahuriye hamwe, bigaragara ko hari akana imbere yabo gashobora kuba gafite ikibazo ndetse bigaragara ko bose bari kukareba.

Umubyeyi bigaragara ko akuze wambaye agapira gatambitsemo uturongo tw'umweru, ndetse n'utw'umukara yambaye ingofero, ndetse ari kuvoma amazi ku ivomero rusange bigaragara ko yaje gushaka amazi meza yo gukoresha.

Amacupa maremare manini bisa nk'aho ari mu ibara ry'ubururu bw'ikirere aya macupa akaba azwi nka bomboni, yifashishwa mu kongerera abarwayi umwuka mwiza wo guhumeka.

Umwana wambaye inifomo bisa nkaho ari umunyeshuri ari kuvoma amazi mu gikombe ndetse ari kuyavoma kuri robbine ariko iyo robine ikaba icometse ku kigega, icyo kigega gifata amazi y'imvura.

Imbaga y'abaturage bari imbere y'inyubako imeze nk'akagari, imbere y'iyo nyubako hari itente ry'umweru ndetse iyi nama bisa nk'aho yari iri kwiga ku bibazo byugarije ubuzima bw'abaturage bigiye bitandukanye.

Umuganga yicaranye n'umugabo bigaragara ko akuze, uwo mugabo akaba yambaye agapira k'ubururu, ndetse muganga ari kwandika mu gitabo, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho ngo sida iracyahari, duhagurukire tuyirwanye.

Ababyeyi babiri harimo umwe umukuze nundi ukiri mutoya bose baricaye bakaba bicaye ku ntebe nziza imbere yabo hari ameza bose bafashe ibiganza byabo babigerekeranya ku meza.

Ni byiza ko twese twimakaza gufata urukingo rwa kanseri ndetse by'umwihariko tugahagurukira kuyirwanya ndetse mu by'ukuri hari ibihugu byinshi byashyizemo imbaraga nka za kanada mu kurwanya za kanseri.

Abajyanama b'ubuzima bitabiriye inama yabahuje ikaba iri kwiga ku ngingo zigiye zitandukanye z'uburyo bashobora gukomeza gufasha abaturage kwirinda indwara.

Umwana mutoya wambaye agapira gatukura ndetse akaba yambaye n'ikintu hasi cy'ubururu, akaba ari kuvoma amazi ndetse bigaragara ko ari kuyavoma ahantu kuri robine.

Abaganga bambaye amakarita y'akazi, azwi nk'amabaji. Bose bakaba bifotoje imbere y'icyapa cyanditseho ngo: "Nyabageni awutirici masi sikiringi."

Umujyanama w'ubuzima ari gupima abana ibiro byabo kugira ngo arebe imikurire yabo ndetse ababyeyi bazanye abana, bamwe baricaye. Undi mubyeyi afite umwana agiye kumushyira ku munzani.

Ku ivomero rusange, akaba ari ivomero rimwe ry'ipombo, hari abana baje kuvoma, umwana umwe ari inyuma ari gupomba amazi ndetse imbere hateretse ijerekani ariko ntabwo iri kujyamo amazi, abandi bana bari kurebera, hari n'undi ukonje, wambaye bote, ufite n'agakoni, wambaye agapira k'umutuku.

Umubyeyi uteruye umwana, akaba akenyeye igitenge cyiza, yambaye n'inkweto za kamambiriri ari kuvoma amazi mu ndobo y'umukara ndetse bigaragara ko akeneye amazi meza yo gukoresha.

Abantu bahuriye mu nama, bose bakaba bari kwiga ku bibazo by'ubuzima ndetse bafite udukayi n'udukaramu, bari kugenda bandikaho ibitekerezo.

Umuntu umeze nk'umujyanama w'ubuzima ari imbere y'abantu b'abagore ndetse n'abandi bantu basanzwe, hari umumama uteruye mwana, ari kubagira inama zigiye zitandukanye.

Umuganga mwiza w'umugore yambaye itaburiya y'umweru, afite imisatsi myiza isutse ifungiye inyuma. Akaba afite indangururamajwi n'igitabo, imbere ye hari abantu bari mu itente, bisa nkaho ari kubigisha ku bigendanye n'ubuzima.

Abantu benshi cyane bambaye amataburiya y'ubururu ubona yuko ari abajyanama b'ubuzima bahurijwe hamwe, aho bahuguwe n'abaganga bagiye batandukanye, uburyo bwo kwita ku baturage babaha ubutabazi bw'ibanze igihe babonye urembye bagahamagara ku bitaro.

Umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga ;uwo mwana akaba ari guhabwa umutima na muganga ,muganga akaba yambaye itaburiya y'umweru.

Abantu benshi cyane ubona ko bari mu bikorwa byo kwamamaza ikintu runaka, aho bafite igitambaro kinini cyane cyanditseho amagambo agaragaza insanganyamatsiko y'ibyo bari kwamamaza.

Muganga ari guha umuti umwana, uwo mwana ateruwe n'umubyeyi bigaragara ko ari nyina, ni byiza ko tuzana abana kwa muganga bagahabwa ubuvuzi bwabo.

Abantu bigaragara ko bari mu nama bakaba ari abagabo ndetse harimo n'abagore bakeya ndetse bakaba bafite ameza ari hagati yabo buri wese mbere hateretse igikombe kirimo icyayi kandi icyo gikombe giteretse ku gasahani k'akadongo.

Umusore yicaye ku ntebe afashe ku rutugu rw'umukobwa na we wicaye ku yindi ntebe ndetse imbere yabo hari umuntu w'umujyanama w'ubuzima afite ikayi ari kugenda abigisha.

Abantu benshi bigaragara ko bari mu nama bafite mudasobwa bari kureba, imbere yabo hicaye abantu babiri barimo umugore ndetse iruhande rwe hari umugabo uri kwandika mu ikayi.

Abantu bari guterura ibintu by'imifuka y'umweru, ndetse harimo abagore babiri bateruranye agafuka bakajyanye ku yindi.

Uuganga ari gupima umwana umubyeyi niwe uteruye umwana ndetse uwo mwana bisa nkaho ari kwirangarira, mu by'ukuri abana bakwiye guhabwa ubuvuzi.

Umuntu bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, wambaye ibyenda by'ibishwambagara, ufite umusatsi mwinshi ndetse udaheruka kogamo, akaba ari gusuhuzanya n'undi mugabo wambaye neza muzima, bigaragara ko agiye kumuganiriza.

Abantu benshi b'ababyeyi bahuriye mu nyubako iyi nyubako bisa nkaho yabereyemo inama, iyi nama ikaba yigaga ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

World mental health day bisobanurwa ngo umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima, bakaba ari umunsi ubaho buri mwaka. Bari kutwereka amagambo y'impine RBC bivuga ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Umurwayi wo mu mutwe cyangwa se ufite uburwayi bwo mu mutwe, afite ibyamvagara byinshi cyane by'ibyenda byashwanyaguritse, yambaye ibigofero bimeze ukuntu ndetse akeneye kwitabwaho no guhabwa ubuvuzi.

Umumama aricaye ndetse afite agapupe k'intare, niba atari ipusi ndetse uyu mumama bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko hari undi uri kumuganiriza.

Umuntu bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe akaba afite ibisatsi byinshi ndetse bibi, yambaye ubushwambagara ndetse asa nkaho yiciraguyeho inkonda mu gatuza, akeneye kwitabwaho no kuganirizwa.

Itsinda rigari ry'abaganga bita ku buzima bwo mu mutwe, ndetse bashinzwe no kumenya indwara zifata mu bwonko bose bahuriye hamwe mu nama bahuje kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Umuganga ufite amaboko wayegeranyije imbere ye ndetse afite umusatsi mwiza bigaragara ko ari gushishikariza abantu kwirinda indwara zo mu mutwe.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye guhagurukirwa ndetse bukitabwaho, kuko umutwe ni igice gikomeye cy'umubiri w'umuntu kuko ari ho hari ubwonko, kandi ubwonko ni bwo bugena ibitekerezo byose bya muntu.

Abaganga babiri, umwe yicaye ibumoso undi yicaye iburyo. Uw’umugabo yambaye agapfukamunwa, afite ikaramu mu ntoki. Uw’umugore afite indangururamajwi bisa nk’aho har’ibyo arimo kuvuga.

Abantu benshi cyane bigaragara ko higanjemo abambaye imyenda y'umukara, bakaba bahagurukiye kwita ku bibazo byo mu mutwe ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu wegamye ku gikuta cy'inzu, gisize irangi ry'umweru ariko ryashaje, ndetse bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kuganirizwa.

Umukecuru wambaye igitenge cyiza, utese n'igitambaro gisa n'icyo gitenge yambaye, akaba ashinyitse amenyo ndetse bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akwiye kuganirizwa.

Umugabo ariko umeze nk'umusaza wakutse amenyo akaba yambaye urugofero rusa nabi, yambaye ishati ariko akenyeye n'umwitero ndetse afite icumu rizamuye hejuru gusa afite ibibazo byo mu mutwe akeneye kuganirizwa.

Abantu bakuru bicaye imbere y'inyubako, ndetse inyubako iteye umucanga bisa nk'aho ari inyubako y'umuturage usanzwe. Ndetse hari umugabo wambaye agapira k'umutuku k'ingofero, ndetse akaba yegeranye n'undi wambaye ishati y'umweru, hakurya abagore babiri bisa nkaho...

Inyubako nziza yo kwa muganga isize irangi risa n'ivu, imbere yayo hari ibyapa bibiri byanditseho amagambo y'icyongereza, ndetse harimo icyanditseho kigaragaza ikaze kuri ibyo bitaro.

Abana, abakuze, ndetse n'urubyiruko, bose bafite utudarapo, utu tudarapo n'utw'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hari akana gato kishimye ariko gafite igihanga, kazamuye idarapo hejuru gafite utudarapo.

Imodoka nini cyane, ndetse iteye nk'inzu, iyo modoka ikaba yanditseho amagambo y'Icyongereza, ayo magambo agaragaza ko ari ubuvuzi ngendanwa, bwashyizweho muri Bugesera, bwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umuganga wambaye ishati nziza ndetse wambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umweru amarinette akaba ari imbere y'inyubako arikugira inama abantu yo gufata neza ubuzima bwo mumutwe.

Umuntu w'umugore ukiri mutoya, ufite agasatsi keza kadasutse k'abanyarwanda, akaba yambaye agapira k'umutuku, mo imbere harimo umwenda w'ibara ry'ubururu, ariko ubururu bwenda kuba nk'iroza, uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kuganirizwa.

Umubyeyi bigaragara ko akuze ariko akaba na none adakuze cyane, akaba asa nk'ufite ibibazo byo mu mutwe kuko agaragara nk'uwihebye cyangwa se nk'ufite ibitekerezo biri kure.

Umu mama ukiri mutoya wipfutse mu maso wubamye, yifashe mu mutwe ndetse akaba afite umusatsi mwiza udefirije, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe by'umwihariko arihebye.

Imbaga y'abantu benshi bafite aho bahuriye n'ubuzima, bakaba bitabiriye inama yabahuzaga ku rwego rw'igihugu, aho bari bari mu nyubako ikorerwamo inama.

Amagambo menshi cyane yanditse mu ndimi z'amahanga ariko yose nkaba mbona ari gusobanura ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse adushishikariza kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umuntu wambaye ishati ifite amakora, ikaba ari ishati y'ubururu, ubururu bw'ikirere. Bisa nk'aho akenyeye n'umushanana ariko mu by'ukuri afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kuganirizwa no kwitabwaho.

Umubyeyi yazanye umwana kwa muganga amuteruye mu ntoki, muganga ari kumwereka ibipimo amaze gupima uwo mwana ndetse uyu muganga afashe telefone mu ntoki.

Umubyeyi uteruye umwana iruhande rwe hakaba hicaye undi ndetse imbere yabo hari inkoko iteretseho mironko iyo mironko irimo umuceri.

Umuntu w'umugabo ufite ubwanwa uri kumwenyura ufite umusatsi mukeya, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare bisa nkaho ari kwigisha abantu uburyo bwo kwita ku buzima bwo mumutwe.

Igishushanyo kiriho abantu bagiye batandukanye, bwa mbere baratwereka umuntu umwe ahandi bakatwereka abantu babiri bameze nk'umugore n'umugabo, bafite utwana tubiri, ndetse baratwereka n'umugore utwite ndetse n'umuntu ufite umutwe.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye hamwe bisa nkaho bari mu nama, biganjemo abambaye imyenda y'umweru iy'umutuku, ndetse n'abambaye marinete bakaba baje kwiga ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu bicaye bazengurutse ameza, bose bakaba bari kureba materefone yabo , Imbere hari umugore wambaye agapfukamunwa.

Abantu babiri b'ibishushanyo, umwe ari hirya, undi ari hino, hagati yabo harimo igishushanyo cy'umutwe w'umuntu, umwe afashe ahagana inyuma, undi afashe ahagana imbere, bigaragara ko bari kutwigisha kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umwana mutoya ufite akantu ari kurya ndetse bigaragara ko atari n'ibiryo, ni umwana ufite ikibazo cyo mu mutwe, ndetse akaba akeneye kwitabwaho.

Umuryango w'abibumbye wita ku buzima waharaniye kurwanya indwara zitandukanye by'umwihariko iz'ibyorezo nka covid cumi n'icyenda.

Igishushanyo kiriho umukobwa n'umuhungu bose bakaba bajombanye inkokora bikaba bigaragaza ko ari ugushishikariza abantu kwirinda indwara zo mu mutwe.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo akaba ari guseka, ariko n'ubwo ari guseka bisa nk'aho aseka ubusa, Mubyukuri afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye ubuvuzi.

RMHP akaba ari amagambo y'Icyongereza ari mu mpine, bivuga ngo Rwanda Mental Health in Practice, bishaka kuvuga ngo gushyira mu bikorwa kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane bahuriye mu nama, iyo nama yigaga ku bibazo by'ubuzima bwo mu kanwa, by'umwihariko kwita ku menyo ndetse no kwirinda indwara zifata amenyo.

Mu bitaro byo kwa muganga mo imbere mu nyubako hari icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye hateretsemo nk'intebe zo kwicaraho, hari amakaro meza ashashe, aciyemo imirongo itambitse n'ihagaze.

Umuntu ukuze ariko w'igitsina gabo afite akantu ari gukoza mu menyo mubyukuri bisa nkaho ari akantu kabugenewe. Ni byiza ko igihe dufite ibibazo by'amenyo dukoresha ibikoresho byabugenewe.

Abaganga babiri bari kwita ku murwayi wamenyo, ndetse umuganga umwe ufite icyuma cyabugenewe, ari kugikoza mu kanwa kuyu murwayi, undi muganga nawe ari kurebera uko bigenda.

Umukobwa mwiza ufite amenyo meza useka amasaro agaseseka, afite intoki ebyiri yatunze ku menyo ye aho ari kwerekana ko ari meza, bigaragara ko ayoza akoresheje umuti wabugenewe.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga ikaba ari inyubako irimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe, ibyuma by'ikoranabuhanga, ishaha ndetse hakaba hari n'ikindi kimeze nka firigo.

Umuntu w'umusore cyangwa se uw'igitsina gabo, akaba atunze urutoki rwe ku gishushanyo cy'amenyo, ndetse ari guseka bigaragara ko atubwira kwita ku buzima bw'amenyo, ndetse tuyagirira isuku.

Umugabo ufite urudodo cyangwa akagozi ari kugacisha mu menyo hagati, akaba ari kukifashisha kugira ngo akuremo imyanda yose iri hagati y'amenyo.

Umwana muto cyane ukiri mutoya rwose afite uburoso ndetse bigaragara ko ari koza mu kanwa, mu by'ukuri ni byiza ko dutoza abana batoya koza mu kanwa kugira ngo barinde amenyo yabo.

Umugabo uri guseka rwose ntacyo bimubwiye amenyo yayakuyeho uruhu ndetse n'amenyo y'urwererane bigaragara ko ayakaraba ndetse akayoza akoresheje umuti wabugenewe.

Umuganga afite icyuma cyabugenewe yambaye uturindantoki ari gukura umwana iryinyo ndetse uyu mwana arasanmye akaba ari kuvurwa kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza bw'amenyo.

Abana beza batoya b'abanyeshuri bari koza amenyo yabo bakoresheje Korogate ndetse n'uburoso bigaragara ko bamaze kurya ndetse ni byiza cyane gutoza abana batoya koza amenyo yabo.

Igihe cyose woza amenyo yawe, jya ugerageza ukoreshe n'akadodo cyangwa se akagozi kazwiho kwifashishwa mu gihe umuntu agenda agacisha hagati y'amenyo, hakavamo ibiryo byagiye bihafata igihe umuntu yaryaga.

Umuntu w'umugabo bari kumuvura amenyo, yasamye ari kureba hejuru, yambaye agapira k'icyatsi, umuganga uri kumuvura nawe yambaye agapfukamunwa, yambaye itaburiya y'umweru, urabona ko ari kumuvura cyangwa se ari kumukura iryinyo.

Umwana mutoya cyane, ufite nk'imyaka ibiri cyangwa itatu, ari koza amenyo ye akoresheje uburoso ndetse na korogate.

Abaganga babiri bose bari kwita ku murwayi umwe uwo murwayi akaba arwaye amenyo ndetse bakaba bisa nkaho bari kuyamukuramo.

Abaganga bashinzwe kwita kuby'amenyo bakaba begereye abaturage aho baje bashinga itente kugira ngo batange ubuvuzi bw'igihe gitoya.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi myiza uri kumwenyura, akaba afite amenyo meza. Imbere ye hari igishushanyo cy'ukuboko k'umuntu gufashe iryinyo ku kantu k'agashinge bisa nk'aho bari kutwigisha kwita ku buzima bw'amenyo.

Mu nyubako yo kwa muganga hari igikoresho cya rutura cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuvura, gusuzuma, ndetse no kugena imiti umuganga akwiye guha umurwayi.

Ibyuma bibiri biri mu kanwa k'umwana ndetse hari intoki za muganga zambaye uturindantoki, uyu mwana aryamye areba hejuru bigaragara ko bari kumukuramo iryinyo.

Umuganga wambaye amarinete wayazamuye mu mutwe, ari kwita ku mwana mutoya ndetse uyu mwana yegamye ku ntebe, ndetse bisa nk'aho ari kuvurwa amenyo.

Abantu benshi bambaye imyenda isa bose baje kwa muganga ndetse abaganga bari kugenda babitaho gusa bari kubakora mu kanwa bisa nk'aho bari kubapima indwara z'amenyo.

Umukecuru ugeze mu zabukuru ari kwitabwaho n'umuganga, uyu muganga ari kumuganiriza ndetse amufashe ukuboko, bisa nkaho hari igipimo ari kumufata.

Umuganga ufite imisatsi miremire ikora mu mugongo, ufite akagozi mu ijosi k'abaganga, ari gufata umusaza aho ari kumwigisha gukora siporo zitandukanye, umusaza nawe ateruye akantu k'akuma mu ntoki gafite ibiro bike.

Umusaza ugeze mu za bukuru ufite imvi z'uruyenzi ndetse akaba afite n'uruhara ari kureba muri telefone iruhande rwe hari umuntu umwicaye iruhande bigaragara ko ari kumufasha.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru ubona ko bakundana bishimiranye, bari kwirira ibiryo byiza byiganjemo ibyubaka umubiri, ibitera indwara ndetse n'ibirinda imbaraga, bafite n'amazi yo kunywa.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru bafatanye ku rutugu ndetse bisa nk'aho umusaza ari kwisomera umukecuru, bakaba ari abakecuru rwose bishimye ndetse bakaba bitabwaho, bakagirwa inama zigiye zitandukanye.

Itsinda ry'ababyeyi n'abana bose bisa nkaho bari kureba televiziyo cyangwa ikindi kintu. Hakaba harimo umu mama umwe ukuze ndetse abandi bose bakaba ari abana batoya ndetse bari mu byiciro bigiye bitandukanye n'undi mu mama mutoya.

Umuntu ugeze mu zabukuru akenera kwitabwaho n'abakiri bato, bamufasha bamutegurira amafunguro ndetse n'utundi tuntu tugiye dutandukanye, kuko biba ari ibintu byiza cyane aba akeneye.

Umusaza yaje kwa muganga muganga arimo kumuha imiti ndetse afite ikaramu mu ntoki, iruhande ku meza hari igitabo na none iruhande rw'umusaza hari ikirahuri bisa nkaho agiye kunywa imiti.

Abantu babiri, umukecuru n'umusaza baricaye bafashe ku meza, bambaye impeta urabona ko bakundana, bari kunywa imiti, umukecuru ari gusoma ku rupapuro uko bari bukoreshe iyo miti, umusaza we afite ibinini bibiri mu ntoki afashe no ku gacupa k'umweru, hari n'ikirahure giteretse ku meza kirimo amazi yo kunywa.

Umubyeyi wishimye wambaye amarinete ufite umusatsi w'imvi ndetse akaba ari gukata imboga, i ruhande hakaba hari inyanya na karoti bidakase.

Umusaza ugeze mu zabukuru, bigaragara nk'aho ari gukora siporo ariko akaba afite umugozi ari gukurura w'umuhondo, hakaba hari undi muntu uwufashe bisa nk'aho bari gukwegana.

Umusaza ukuze wambaye amarinete n'agapira kaga T-shirt, yarambuye ukuboko ndetse hari umuganga wambaye ikanzu, iyo kanzu ikaba ari ubururu, afite umusatsi mwiza w'umukara ari kwita kuri uwo musaza, hari ikintu ari kumuzingiraho.

Umuganga ari gusuka umutobe ndetse agiye kuwuha umusaza, uyu musaza afite imbuto imbere ye ku meza ndetse hateretse n'ibikombe, bigaragara ko ari kwitabwaho nk'umuntu ugeze mu zabukuru kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abakecuru babiri bambaye imishanana bose bicumbye utubando, umwe ufite imisatsi y'imvi undi nawe atezeza igitambaro cy'umukara. Bose bakaba bageze mu za bukuru.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru bari gusoma ku rupapuro urwo rupapuro bisa nk'aho rwanditseho imiti bafata igiye itandukanye.

Umusaza ukuze wambaye ishati y'ubururu bwerurutse nipantaro yikoboyi akaba afashe ahantu ku kintu kimeze nk'intebe ndetse akaba afashwe mu kiganza cye n'umuganga w'umuzungu uri kumwitaho.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, ufite kakantu bashyira mu matwi k'akagozi, akaba ari gusuzuma umurwayi ndetse uwo murwayi ni umusaza ukuze ndetse na we yambaye agapfukamunwa, urabona ko ari umusaza wirabura.

Umukecuru ugeze mu za bukuru yaje kwa muganga, yicaye imbere y'ameza, agiye gufata itasi irimo amazi, umuganga ari kumuha ibinini bibiri umukecuru na we ari kubyakira ngo abinywe.

Abantu benshi b'abakecuru. Bakaba bambaye imipira y'umweru, amajipo y'umukara. Imbere yabo hari undi wiyambariye ibidasa n'ibyabo ndetse inyuma hari undi, bigaragara ko akiri mutoya, akaba ari kubafasha.

Abantu babiri bageze mu zabukuru, umwe ni umukecuru, undi ni umusaza, bose bambaye amasaha n'udupira tw'amaboko magufi, bikaba bigaragara ko bari gukora siporo.

Abakecuru n'abasaza bahuriye hamwe bose aho bari baje mu munsi wabahariwe kugirango barusheho kuganirizwa ibigendanye n'ubuzima bwabo, ndabona umukecuru umwe ukenyeye umwitero wambaye urunigi mu izosi ufite imvi.

Imugabo ufite ubwanwa bw'imvi ndetse wambaye agapira k'umukara, imbere ye kumeza hateretse mudasobwa, bisa nkaho ari kwakira ibinini, ku meza hateretse igikombe kirimo amazi.

Umuganga ari kwita ku musaza, uwo musaza arishimye, yambaye amarinete ndetse afite umusatsi w'imvi, ni byoza ko twita ku bakuze.

Imbaga y'abantu benshi cyane bitabiriye inama, ikaba ari inama mpuzamahanga yigaga ku bibazo by'ubuzima ndetse iyi nama ikaba yabaye mu rwego rwo kugira ngo abaganga bo muri Afurika ndetse n'abandi bo ku isi yose babashe gukomeza kwita ku buzima.

Umuntu bigaragara ko ari umuganga ari gutera urushinge umubyeyi, uwo mubyeyi yazamuye ukuboko agufasha mu nda, akaba afite amarinete yaziritse ku ishati hejuru ahagana mu mabere, akaba afite n'agapfukamunwa yambaye yashinyirije urabona ko atinya urushinge.

Umugabo w'umuzungu ari imbere y'akantu dukunze kwita ngo n'agasuti akaba ari kuvuga. Ndetse bigaragara yuko bari kwiga ku kibazo cy'ubuzima cyahurije hamwe abantu bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye bose bakaba bari mu rwanda.

Hari ubujyanama mu bijyanye n'ubwandu bwa virusi itera Sida, aho dushishikarizwa kwirinda aka agakoko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse dukwiye kubihagurukira.

Icyapa kiriho agapapuro kanditseho amagambo y'icyongereza agira ati: livingi no wani bihayindi bivuga ngo ntihagire n'umwe usigara inyuma tugire uruhare mu kwita ku buzima twese, nta mugore nta mukobwa nta mwana nta mugabo.

Abantu bagera muri bane barimo abakobwa babiri ndetse n'abagabo babiri, bose bafite udukingirizo mu ntoki bisa nkaho bari kudushishikariza kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru bari gusuhuzanya n'umuntu w'umusaza ndetse inyuma yabo hari undi muganga wahuje ibiganza byombi wambaye amarinete ndetse bakaba bari mu bikorwa by'ubuzima bitandukanye.

Abantu batandukanye b'urubyiruko, bafite icyapa ndetse icyo cyapa cyanditseho amagambo agira ati ''Twirinde kanseri y'ibere, twisuzumishe hakiri kare kuko iravurwa igakira.''

Icyapa kinini cyanditseho amagambo y'Icyongereza ndetse hakaba hariho ijambo rimwe rigaragaza ibimenyetso bya Diyabete, bakaba bagiye babitondeka.

Abagore benshi bicaye ku ga sima ndetse bari kureba imbere mu nyubako yo kwa muganga bisa nkaho bategereje serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye.

Umurwayi aryamishijwe kuri burankari ndetse abaganga bari kumwitaho ariko hari n'abakorerabushake bose bambaye agapfukamunwa ndetse n'amajire yabugenewe.

Abantu babiri, umwe ni umugabo, undi ni umugore. Bose bambaye imyenda y'umukara hejuru, bakaba bafashe ku cyapa, icyo cyapa kikaba kiriho amagambo avuga ngo, twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira.

Leta y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima ni amagambo yanditse munsi y'ikirangantego barimo batwereka, akaba ari amagambo agaragaza uyu muryango kuko ufasha Abanyarwanda benshi kwivuza.

Inama yahuje abantu benshi batandukanye barimo abanyamadini ndetse ndabona n'umuntu w'umuyisilamu ndetse umeze nkashehe, bose bakaba bari kurebera hamwe uburyo bakomeza kwita ku buzima.

HR ni ikigo cyashyizweho mu Rwanda, bikaba bisobanurwa mu ndimi z'amahanga helifi pipo Rwanda, ndetse bivuga ko ari ubuzima bw'abaturage bo mu Rwanda.

Umuganga ari kuvura umugore. Uwo mugore afite imisatsi myiza yasukishije ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi, iruhande rwabo hari abandi bantu bisa nk'aho bari kurebera bategereje ubundi buvuzi.

Ubuzima bwiza bukwiye kuranga buri wese ndetse ni byiza ko twese duhagurukira kwita ku buzima bwacu twirinda indwara zitandukanye ndetse tugira imibereho myiza.

Umuryango w'abibumbye wita ku buzima ushishikariza abantu bose guhagurukira kurwanya indwara zifata mu mutwe, by'umwihariko izifata mu bwonko, habayeho ubukangurambaga bwinshi muri bibiri na makumyabiri na rimwe, bibiri makumyabiri na kabiri ndetse burakomeje.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, aya ni amagambo yanditse ku cyapa, ndetse adushishikariza kwirinda iki cyorezo cyadutse mu myaka ishize.

Hari icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza bigaragara ko ari kuvuga ngo twirinde sida ku rwego rw'isi yose kugira ngo tubashe kugera ku ntsinzi y'ubuzima.

Umuntu w'umugore wambaye ikarita y'akazi twita ibaji, ageretse akaguru kandi, afite indangururamajwi, afite umusatsi mwiza bigaragara ko ari kuvuga ku by'ubuzima.

Abantu benshi cyane biganjemo abambaye imyenda y'imyeru ndetse n'abandi bambaye udupira tw'umukara bicaye imbere hakaba hateretse ameza bisa nkaho aho bari gukurikira inama.

Umuganga ari gutera urushinge umurwayi ndetse hari undi muganga uhari bisa nk'aho amufashije ikintu kimeze nka seromo uyu murwayi ubanza yabuze amaraso bari kuyamwongerera cyangwa amazi yo mu mubiri.

Inyubako nziza yo kwa muganga, ikaba irimo intebe zigiye zitandukanye ndetse hashashemo amakaro hasi, aciyemo imirongo izamuka n'impanuka.

Inyubako nziza yo kwa muganga ikaba ishashemo amakaro meza agezweho. Hejuru mu gisenge hakaba hasa ibara ry'ivu. Ndetse harimo utuntu tw'umweru bisa nkaho tuzana urumuri mu nyubako mo imbere.

Kwa muganga hari inyubako nziza, m'imbere mu nyubako har’ibikoresho bigiye bitandukanye, har’igitanda umurwayi aryamaho ndetse kikaba gifite ah’arambika amaboko. Icyo gitanda kiri munsi y'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza yo kwa muganga, ikaba ari inyubako ndende ariko itari ndende cyane bisa nk'aho iri mu magorofa abiri,' iyo nyubako ifite irangi ryenda gusa n'ivu ndetse muri iyo nyubako kuri foro yo hasi hari abantu bategereje serivisi z'ubuvuzi bakaba begereye urugi.

Abaganga batandukanye bari iruhande rw'ameza ndetse hari etajeri ibitswemo ibikoresho by'abaganga, imbere yabo hari abandi baganga harimo abicaye n'abandi bari kugenda.

Kwa muganga mu cyumba mo imbere, hari intebe nziza igezweho, iri iruhande rw'icyuma cy'ikoranabuhanga, bisa nkaho umurwayi ayicaraho, iki cyuma kikamusuzuma.

Inzu nziza cyane isize amabara asa n'ivu, ndetse hakaba hari amakaro meza hasi, ifite parafo nziza ndetse ikaba ari inyubako yo kwa muganga.

Inzu y'ababyeyi ikaba ari inzu izwi mu ndimi z'amahanga ku izina rya maternity ndetse imbere yayo hari abaganga bari iruhande rw'ameza, hino gato imbere y'umuryango hari umugabo uri kureba muri telefone.

Inyubako nziza cyane igezweho irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ifite hasi harimo uturongo tw'umweru tugiye dutambitse utureture ndetse n'utugufi.

Inyubako ndende y'ibitaro ndetse ikaba yubatswe neza mu buryo bugezweho, ifite ibirahure byiza ifite amarembo meza mbese aho kwinjirira, mu by'ukuri imbere y'amarembo hari icyapa kinini kirekire.

Abazungu benshi bari iruhande rumwe, hirya hari abandi bazungu bivanze n'abanyafurika, bari imbere y'icyapa cyanditseho Butaro Hozipito.

Inyubako nziza yo kwa muganga ubona ko isa neza rwose ifite isuku, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo intebe, ameza, ayo meza akaba ateretseho mudasobwa ndetse mu nguni hakaba hari akayetajeri gateretseho imiti hejuru iri mu macupa.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako irimo imiti igiye itandukanye ndetse iyi nyubako ikaba yubatswe muburyo bwiza aho bubereye ijisho.

Inzu y'ababyeyi izwi mu ndimi z'amahanga nka materinete, ni inyubako iri kwa muganga ndetse ikaba yubatswe ku bufatanye enaberi.

Inyubako yo kwa muganga ikaba irimo ububiko ubwo bubiko burimo imiti igiye itandukanye, gusa iminsi ifunze mu ducupa no mu karito ndetse hari handitseho amagambo ngo porogeresi farumasi.

Geriatric centre n’ikigo gitanga serivisi z’ubuzima, kikaba gifite inyubako nziza cyane.

Inyubako yo kwa muganga, ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, hasi hashashe amakaro meza cyane ubona ko hagiye hamanutsemo n'uturongo, inzugi zayo ni ibirahure ndetse hamanitsemo amafoto y'abantu harimo n'abambaye amarinete mo imbere hakaba hari ibipapuro bitatse ku bikuta byanditseho amagambo menshi.

Inyubako iriho umuryango, uwo muryango ukaba ufunze ndetse hejuru handitseho ijambo ry'icyongereza ''operation room'' bivuga ko ari ahantu bakorera operasiyo.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, ifite utujaride twiza ndetse ahantu hamwe mu tujaride harimo abantu bicaye batatu, umwe uhagaze wambaye agapira k'umutuku akaba ari umugabo.

Umuganga uri kugaragara amaboko gusa yambaye uturindantoki ari gutera urushinge umurwayi, uwo murwayi yamanuye ishati hagaragara isengeri yambaye.

Ni inyubako yo kwa muganga, ikaba irimo intebe irambitse ahantu hafi hakaba hari urukuta rushushanyijemo ibintu bigiye bitandukanye, hari n'icyuma kinini cy'ikoranabuhanga.

Ku nyubako yo kwa muganga yose haba har’ahantu habugenewe, batangira ibizamini by'abarwayi hazwi nko muri laboratwari. Aha ndi kubona laboratwari ipima ibizamini bya malariya.

Ahantu heza cyane hari inyubako nziza irimo ibitanda bishasheho amashuka y'umweru n'ubururu, hakaba hari n'ameza arambitseho ikayi ndetse hari n'amarido meza cyane ubona yuko ari ahantu mu bitaro kwa muganga abarwayi barembye baryamishwa n'ubwo nta murwayi n'umwe urimo saha izi ngizi.

Ibitanda byo kwa muganga byuzuyeho abarwayi ndetse urabona ko hari n'abarwaza bicaye, abarwayi bo bariryamiye ndetse bamwe ubona ko barembye cyane, gusa hari abaganga bari kugenda bazenguruka mu bitaro, bareba ikibazo cya buri umwe umwe ndetse hari n'inzitiramibu zihamanitse zirinda ko bakangizwa n'imibu itera Malariya.

Ibitaro byiza cyane byubatswe mu nyubako igezweho igeretse kabiri ikaba ari inzu ifite amarangi y'umweru ndetse n'utundi tubara tw'ubururu ikaba imbere yaho hari umukindo.

Abaganga b’abagore bambaye udupfukamunwa dusa bose, ndetse bambaye n'amataburiya ndetse n'amapantaro bisa, bose bakaba bazamuye ukuboko kumwe bafunze ibipfunsi, bigaragara ko bari gushimangira kwita ku buzima.

Inyubako yo kwa muganga iriho ifoto y'umuntu ku ruhande rumwe rw'umuryango, ndetse akaba ari abantu babiri, imbere mu nyubako hari ikintu gisa nk'igikuta cyangwa urugi rw'umutuku.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba ari inyubako nziza cyane ndetse ikaba isize irangi risa n'ivu, ifite igisenge cyiza cyane, hejuru mu gisenge harimo ibyuma ndetse n'ahantu haca izuba.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga. Ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa ndetse ikaba ifite ibirahure byiza bibonerana. Isize irangi ry'ivu ndetse handitseho amagambo y'icyongereza, agaragaza y'uko ari ihuriro rya Afurika ryisumbuye, rishinzwe kurwanya indwara zifata abantu.

Mu nyubako yo kwa muganga, mu imbereye mu cyumba hari ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga bigiye bicomekeranyije ku nsinga z'umuriro w'amashanyarazi, ndetse hari igikuta gisize ibara ry'umweru ariko hakaba hari umweru werurutse, wenda gusa n'ibara ry'ivu.

Umuganga ari kumwe n'umusaza. Umusaza arishimye, yambaye amarinete akaba yaje kwa muganga kugira ngo bamwiteho.

Umubyeyi ukuze yicaye iruhande rw'umukecuru, imbere yabo hari umuganga uri kubitaho anabaha inama, uwo muganga yambaye imyenda y'iroza.

Inyubako nziza ikaba ari inyubako itangirwamo serivisi zishingiye ku buvuzi, yubatswe mu mabara y'umweru, amatafari ahiye, imbere hayo ni heza cyane hasize sima y'umukara.

Inyubako nziza yo kwa muganga, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse mo imbere hari ibikoresho hirya ahantu mu nguni by'ikoranabuhanga bicometse ku muriro w'amashanyarazi, ku nkuta hari irangi ry'umweru ndetse hari ibipapuro bihamanitse biriho utuntu tw'udufoto.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari inyubako yo kwa muganga cyangwa se akaba ari inyubako icuruza iby'imiti ndetse ikaba imbere yayo hari ahantu hisanzuye umuntu ashobora no guparika imodoka.

Inyubako nziza cyane isa neza iteye amabengeza, bitewe n'ukuntu ifite uduhanda tugenda dukatakata mu tujaride twiza dufite ibara ry'icyatsi kibisi, harimo uturabo twiza hakaba hagaragara n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hirya hari n'ibigega by'umukara.

Muri sare yo kwa muganga hateguyemo intebe nziza zo kwicaraho ndetse hari ameza y'umukara, n'andi meza asa mu ibara ry'ikivuvu ndetse akaba hari imitako myiza, y'indabo ziri mu mavase.

Ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga bavura abarwayi bagiye batandukanye, bikaba ari ibintu byiza cyane kubona ubuvuzi bwarateye imbere gutya.

Akana kamanitse ku munzani, ndetse iruhande rwako hari umuganga uri kukitegereza, bigaragara ko nyina yaje kugapimisha ibiro.

Inyubako nziza yo kwa muganga, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'igorofa ndetse ikaba ifite ukuntu idizayininze ariko hari akayira k'amapave kayigana, hari n'ikibuga kinini kirimo ibyatsi bya pasiparume.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, hasi harimo amakaro meza ndetse hari utuntu tw'uturongo tunini turi mu mabara y'umuhondo n'umweru.

Inyubako ndende nziza yubatswe mu buryo bugezweho ikaba iri mu magorofa agera muri atatu cyangwa se ane, ariko imbere yayo hari icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo agaragaza ko ari inyubako itanga serivisi z'ubuvuzi.

Umubyeyi w'umumama afite akana, ako kana kararwaye ndetse kari mu gitanda cyagenewe utwana dutoya, muganga ari kwita ku kana agafashe ukuboko, ndetse uyu muganga akaba yambaye uturindantoki.

Inyubako nziza yo kwa muganga, ikaba ifite intebe nziza zo kwicaramo ndetse ikaba iteye irangi, irangi risa n'ivu, hejuru hakaba hari parafo nziza.

Aha ni mu bitaro kwa muganga, haryamye abarwayi babiri bose bakaba barimo seromo, bigaragara yuko barembye cyane, bose kandi ni ab'igitsina gabo.

Inyubako y'ibitaro byo kwa muganga ikaba ari inyubako nziza cyane ifite parikingi ndetse muri parikingi ku ruhande rw'iburyo haparitse imodoka y'umweru, ku ruhande rw'ibumoso haparitse ivatiri y'umukara.

Mu nyubako yo kwa muganga nziza cyane isize irangi ry'ibara ry'ivu, ndetse hakaba harimo igitanda icyo gitanda kikaba giteye mu buryo budasanzwe, kuko gifite utuntu tubiri duhagaze bisa nkaho ari aho umuntu arambika amaboko.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba mo imbere ahameze nko muri salle, gusa aha harimo intebe nyinshi cyane zigiye zitandukanye, uretse yuko ubona ko atari intebe zisanzwe zo kwicarwaho n'ubonetse uwo ari we wese.

Icyuma cyo kwa muganga, kikaba ari icyuma kigezweho cy'ikoranabuhanga rihambaye, aho umurwayi aza akaryama ku gitanda, icyo cyuma kikamusikana, kikamenya indwara afite ndetse n'ibindi bibazo by'umubiri.

Umuganga afite ikaramu, afashe ku ntebe, imbere ye hari undi muganga uri kwandikira ku meza, ayo meza ariho igitambaro cy'umweru, imbere y'ameza hari undi muganga ufashe umurwayi urembye.

Abantu benshi bambaye amashati y'umweru bafite utuntu tw'udukapu mu ntoki ndetse bakaba bari kugenda bagana ahantu mu nyubako iyo nyubako ikaba ifite ibintu by'ibyuma byubatse hejuru.

Umuntu wese uzi ahantu ho kwa muganga, haba hari inyubako yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi, bushingiye ku miti cyangwa se ku ndwara cyangwa se ku byorezo bigiye bitandukanye.

Umuganga yicaye ku ntebe. Imbere ye ku gitanda hari umurwayi uryamye agaramye ndetse hejuru y'uwo murwayi hari icyuma kinini cy'ikoranabuhanga bisa nkaho kiri kumusuzuma.

Abantu bicaye ndetse imbere yabo hari ameza, ayo meza ateretseho uducupa tw'amazi, hari na mudasobwa ndetse hirya gato hari umuntu uri gufotora w'umukameramani, bigaragara ko bari mu nama.

Inyubako nziza yo kwa muganga ikaba ari inyubako iteye amarange y'umweru ndetse yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo imbere gatoya hari indabo nziza ariko zikiri ntoya, bigaragara ko ari inyubako ivura amaso.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako ifite umuhanda unyuramo hagati ndetse iyi nyubako isa nkaho ari iyo kwa muganga, iri mu mabara yenda gusa ikivuvu ndetse yubakishijwe amatafari ahiye.

Umuganga ari imbere y'ibyuma by'ikoranabuhanga byinshi cyane, bicomekeranyije, birimo amasinga menshi ndetse hari gucamo ibintu by'imipira bizamuye bikongera bikiheta, imbere yaho hari abandi baganga bambaye udupfukamuwa n'amataburiya y'umweru.

Ku nyubako yo kwa muganga nziza cyane, hari umuntu ufite ubumuga wicaye mu kagare, ndetse muri iyo nyubako hari ubusitani bwiza, hari n'agahanda k'amapave.

Ububiko bunini cyane bubikwamo imiti, burimo imiti y'amoko atandukanye igiye ifunze mu buryo bugiye butandukanye hari iri mu dukarito ndetse...

Inyubako yo kwa muganga nziza cyane ifite akajaride. Ako kajaride karimo indabo ngufiya ndetse hashinzemo icyapa kinini kirekire. Icyo cyapa cyanditseho amagambo ndetse ayo magambo asobanura uko iyo nyubako ikora.

Inyubako y'ibitaro, ikaba ari inyubako nziza cyane, ariko si ibitaro bisanzwe; ahubwo ni ibitabo bishinzwe kwita ku bana bahuye n'ihohoterwa, by'umwihariko abangavu. Ikaba yitwa isange one stop center Remera Rukoma.

Inyubako nziza yo kwa muganga ikaba ifite ibitaro by'ababyeyi ndetse ibi bizwi nka materinete mu ndimi z'amahanga cyangwa se inzu y'ababyeyi mu kinyarwanda.

Inyubako nziza yo kwa muganga irimo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga ritandukanye, byifashishwa na muganga mu kuvura abarwayi ndetse no kubapima.

Mu bitaro kwa muganga haba hari ahavurirwa indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse bitewe n'icyiciro cy'imyaka umuntu arimo. Hano bari kutwereka inyubako yo kwa muganga ivurirwamo ingimbi, abangavu n'abandi bafite imyaka yo hejuru.

Inyubako nziza yo kwa muganga, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amatafari ahiye ayubatse, hasi hayo imbere hari amapave, iruhande hari akajaride, ako kajarde handitsemo amagambo bibiri na makumyabiri na gatatu igihe.

Goodlife Pharmacy ni Farumasi icuruza ibigendanye n'imiti, ikaba iri mu nyubako nziza cyane ndetse imbere yayo haparitse imodoka ebyiri, iburyo n'ibumoso.

Inyubako y'ibitaro byiza, yanditseho amagambo y'Icyongereza ''Medical sResearch Institute''. Bigaragaza ko ari inyubako yahariwe ubushakashatsi bushingiye ku by'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako icuruza ibijyanye n'imiti, iyo nyubako iruhande haparitse imodoka ndetse imbere hirya gatoya hari indi ihaparitse nayo y'umweru.

Icupa riteretse ndetse n'indi mashini iteretse hari ibintu byinshi bimeze nk'ibirahuri bigaragara ko ari inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'amagorofa abiri, imbere yayo haparitse imodoka inyuma y'iyo modoka hari abantu bahahagaze.

Muganga afasha umurwayi akaguru ari kumwitaho ndetse uyu umurwayi yavunikiye muri siporo by'umwihariko akaba yariri gukora siporo z'imyitozo ngororamubiri.

Hari agasaraba kari mu kizeru kazengurutswe n'amagambo y'icyongereza, agaragaza umuryango utabara imbabare wa kuruwaruje.

Umuganga ari gukanda ivi ry'umurwayi. Bigaragara ko uyu murwayi yavunitse ndetse akaba yaje kwa muganga kugira ngo bamufashe mu buvuzi butandukanye.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, apfukamishije ukuguru kumwe, ukundi kuri imbere ndetse akaba ari gukora siporo mu rwego rwo gufasha umubiri we ndetse n'amaraso gutembera neza.

Umuntu umeze nk'umuganga, ari gufasha umuntu wagize ikibazo ndetse bigaragara ko ari ikibazo cy'imvune, aho yavunitse akagumbambari, bakaba bari kumwitaho.

Umuganga ari kwita ku murwayi uyu murwayi bisa nkaho yavunikiye muri siporo ndetse muganga afashe ukuguru kwe akaba ari gukoza urutoki ku ivi rye.

Amazi meza y'urugobogo ari gusukwa mu kirahuri, icyo kirahuri kikaba gisa neza gisukuye, ni byiza ko tunywa amazi meza kugirango tubashe kugira ubuzima bwiza.

Kunywa amazi meza ni byiza, hano ndi kuhabona agacupa kari gusuka amazi mu kirahure, ayo mazi ni urubogobogo, bigaragara ko ari amazi meza, mu byukuri ni byiza kunywa amazi meza kuko bifasha umubiri w'umuntu kugira ubuzima bwiza.

Mu byukuri hari icyapa kigaragaza amagambo y'icyongereza, ugenekereje mu kinyarwanda biravugwa ngo twimakaze gukora siporo, ndetse twirinde gukoresha ibiyobyabwenge nk'imiti yanjye.

Burankari ni ingobyi yifashishwa n'abaganga cyangwa se abakora igikorwa cy'ubutabazi bazwi nka kuruwaruje, akaba ari ingobyi ihekwaho umurwayi bamujyanye ku modoka ya ambiransi cyangwa se bamujyanye mu bitaro.

Umusaza ugeze mu za bukuru ari gufashwa gukora siporo ariko muganga ari kumwerekera uko agomba gukora siporo, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Hari umuti uri mu ikarito, iryo karito rikaba ryanditseho ijambo ry'icyongereza, rivuga ngo Neospolin, rikaba rivuga ko ari umuti witwa gutyo ndetse ukaba wifashishwa mu kugabanya ububabare, by'umwihariko ku muntu uri muri siporo.

Abaganga bagiye batandukanye, bose bakaba bari kwitegereza muri mudasobwa ndetse mu by'ukuri imbere yabo, muri iyo mudasobwa harimo ishusho y'umuntu ariko akaba ari mu bitaro, ndi kubona abarwayi baryamye.

ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri, harimo kongera umuvuduko w'amaraso igihe ari mutoya, ndetse no kuwugabanya igihe ari munini, ndetse harimo kugabanya siteresi, ndetse n'ibindi byinshi.

Umusore ari kunywa amazi, nyuma yo gukora siporo, akaba yambaye kuteri mu matwi ari kumva utuziki, ni byiza kunywa amazi meza igihe cyose tumaze gukora siporo.

Amazi meza y'urubogobogo ari mu kirahuri ndetse bigaragara ko ari amazi atetse, aya mazi akaba ari yo abantu twese dukwiriye kunywa kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye ku kimeze nk'umukeka cyangwa se umusambi ari gukora siporo yicaye arambuye amaguru ye ndetse yamanutse arunama afatisha amaboko ye mu birenge, ari kugorora ingingo.

Icyapa gishushanyijeho ibikoresho byo kwa muganga birimo imakasi, amacupa y'imiti ndetse n'agakapu ko kwa muganga ko mu ibara ry'umutuku gashushanyijeho ikimenyetso cy'umusaraba.

Icyapa kiriho amagambo yandikishije mu ibara ry'umweru n'andi ari munsi yayo, yandikishije ibara ry'ubururu, hepfo hakaba hari ibintu bimeze nk'urushinge ndetse rutaraterwa umurwayi, hari n'ibinini bigaragaza ko bari kuvuga ku by'ubuvuzi.

Umuntu w'umugabo wifashe ku itako bigaragara ko yagize ikibazo, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, akaba akeneye ubuvuzi, ni byiza ko igihe cyose twumva tugize ikibazo ku kuguru twakoraga imyitozo ngororamubiri itandukanye, tugomba kugana kwa muganga.

Icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo safeti ini sipoti bivuga ngo siporo yimakazwe hari n'ayandi magambo yanditseho ngo buriisi yamanuye mu nyuguti zihinnye.

Umuganga ari gufasha umuntu w'umusore gukora siporo izo siporo zikaba ari izo kugorora ndetse no kunanura ingingo z'umubiri zitandukanye.

Akagare k'umurwayi ufite ubumuga, ni akagare kagenewe aba bantu kugira ngo kabafashe mu gukora ingendo zoroheje mu rwego rwo kubashyira muri sosiyete rusange.

Icyuma cy'ikoranabuhanga gifite akantu k'akagozi ku ruhande gasa nkaho kazunguruka inyuma ndetse hakaba handitsemo isaha iri kubara.

Umuganga afite icyuma cy'ikoranabuhanga ndetse icyo cyuma urabona ko gifite imigozi icometse hirya ku muriro w'amashanyarazi, yagitunze mu kanwa k'umwana, umwana arararamye ndetse ari kumupima indwara.

Umukobwa mwiza cyane wambaye agapantaro k'iroza ndetse n'agasengeri kenda gusa gutyo, akaba afite umusatsi uri kugaragara inyuma, yicaye adundamye, akaba yafashe amano ye yose, ari mu dusiporo aragorora umubiri we.

Abantu babiri batwaye burankari iriho ubusa ndetse abo bantu ni abakozi ba croix rouge, akaba ari umuryango utabara imbabare.

Physiotherapy and therapeutic massage, ni icyapa cyanditse mu magambo y'icyongereza bisobanurwa ibintu byo gukorera umuntu utumasage bizwi mu Kinyarwanda nko kumasa.

Umugabo wifashe mu gatuza, wambaye ubusa hejuru, akaba afite ukuboko gushushanyijeho ibintu biri mabara y'ubururu bwerurutse ndetse n'irindi bara ry'umutuku utari uw'mararaso.

Umuntu uri kunywa amazi meza ari kuyanywa ayakuye mu gacupa yambaye ekuteri ndetse yambaye n'agapira keza k'amaboko magufi bigaragara ko avuye muri siporo.

Umugabo bigaragara nkaho ari muri siporo ndetse asa nk'uri kwiruka, inyuma ye hashushanyije imbuto zirimo: karoti, amacunga, inyanya ndetse n'udupome.

Igihe ukora siporo ushobora gukina imikino itandukanye nk'aho ushobora gukina umupira w'amaguru ukoresheje balo cyangwa akadenisi ndetse ukaba wakina n'imikino y'amaboko nka rugubi, basiketi ndetse na vole.

Uducupa dutatu ndetse twenda gusa harimo tubiri tunini n'akandi kamwe gatoya, i ruhande rwaho hari ikintu cyubitse, hirya gato hari ibikarito byose bikaba bifunzemo ibikoresho byo kwa muganga.

Umusore ari muri siporo arunamye ndetse bigaragara ko ananiwe, ni byiza gukora siporo ariko nanone tukagira ikigero tugarukiraho.

Umuntu w'umugabo wifashe mu ivi, bigaragara ko yagize ikibazo cyo kuvunika irivi rye nyuma yo gukora siporo zitandukanye akaba yambaye isaha ku kuboko.

Abaganga benshi baricaye abandi barahagaze, bakaba bari kureba ku byuma by'ikoranabuhanga ndetse umwe afashe ku meza, imbere aho ku meza hari mudasobwa n'utundi twuma twinshi tw'ikoranabuhanga.

Igikapu cya muganga giteretse hasi iruhande rwacyo hari icupa ry'umweru, ndetse iruhande rw'iryo cupa hari akabogisi kanditseho amagambo first aid box. Bigaragara ko ari ubutabazi bw'ibanze buba buri muri ako kabogisi.

Imbago ni inkoni yabugenewe ihabwa abantu bafite ikibazo cy'ubumuga bw'akaguru cyangwa se barakavunitse.

Umukobwa wambaye agapantaro kamufashe ndetse n'agasengeri yazamuye amaboko mu kirere ndetse ukuguru kumwe kw'ibumoso guteye imbere n'ukundi kw'iburyo guteye inyuma, mu by'ukuri ari muri siporo.

Ibikoresho muganga yifashisha avura abarwayi, ni ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Kwa muganga mu nyubako imbere mu cyumba hari icyuma cy'ikoranabuhanga kigezweho, cyifashishwa mu buvuzi butandukanye bw'abaganga babifitiye ububasha.

Umuntu ufatiye igipfuko ku kuboko ndetse akaba afatishijeho ukuboko kw'iburyo, uko kuboko kw'ibumoso kwe kwambaye impeta.

Akaguru kambitse ibyuma, bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, bisa nk'aho biri kukagorora kuko kavunitse. Ako kaguru ni ak'umuntu.

Icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza, ten exercises to Improve Balance After Brain Injury, bisobanurwa ngo, imyitozo igera ku icumi ushobora gukora nyuma yo kugira ibibazo by'ubwonko.

Umugabo ufite ubwanwa bw'umukara ari kunywa amazi ndetse bigaragara ko ayo mazi ari meza, yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'akandi kantu gasa ibara ryenda kuba icyatsi kari ku kuboko, ari gukora siporo kugira ngo ubuzima bwe bugire ubudahangarwa.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye agasengeri, ari gukora siporo, ndetse amaboko ye yayegeranyije bigaragara ko ari kuyarambura.

Umuntu wifashe mu mutwe wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, akaba yambaye agasengeri ndetse ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Umugabo ufite ituza wakoze siporo ufite tatouaje ku rutuguzo tatouage zikaba ziri mu mabara y'ubururu bw'ikirere ndetse n'irindi bara ry'umutuku utari uw'amaraso.

Umukobwa mutoya ari kunywa amazi bigaragara ko amaze gukora siporo ndetse ni byiza cyane ko tumwigiraho igihe cyose tumaze gukora siporo tukanywa amazi, kugirango adufashe mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Umuntu arimo gukora siporo ndetse ari kugenda asimbuka, ajya hasi, yongera ajya hejuru. Imbere ye hari umuntu uri kumugira inama, mbese ni nk'umuganga. Ni byiza kugirwa inama n'abaganga igihe ukora siporo.

Ikintu kimeze nk'ikasiki cyangwa se gifite ishusho ry'umutwe ariko ufite utuntu tubiri duhagaze bumeze nk'indorerwamo za moto, akaba igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu buvuzi.

Umuntu w'igitsina gabo afashe ku kuboko kwe ndetse afatiyeho igipfuko, icyo gipuku ni icyo yashyizweho na muganga.

Ibikoresho bitandukanye bigezweho byifashishwa n'abaganga, mu gihe cyo kuvura ndetse no gusuzuma indwara zitandukanye.

Umuntu ufite ikibazo cy'amaguru, bari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barebe ko icyo kibazo cyakemuka, bikaba ari ibintu byiza cyane bisa neza.

Ububiko bunini bw'imiti bukaba ari ububiko buri mu nyubako yo kwa muganga ndetse hakaba harimo imiti ifunzwe mu makarito n'indi ifunzwe mu macupa.

Umuntu yifashe ku kuboko kwe ariko ku kuboko akaba hariho igipfuko, icyo gipfuko yagishyirwaho na muganga bigaragara ko yari yakomeretse hanyuma muganga akamuvura bityo akamuha icyo gipfuko.

Abantu bigaragara ko bari mu bikorwa byo gusana bakaba bari ahantu ku nyubako, iyo nyubako ikaba isize amarangi meza cyane, amarangi y'ubururu n'ay'umweru yiganje ndetse ukaba ubona yuko umuzungu umwe yuriye urwego, hejuru handitseho amagambo ko ari ibitaro by'umwami Faisal.

Umuntu w'umukobwa ari gufata ukuboko kwe akagukoza inyuma ku mugongo, hamwe umuntu atabasha kugeza ukuboko, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, bityo bikaba ari ibintu byiza cyane bifasha ubuzima bwe kumera neza.

Igikapu cya muganga ni igikapu kiba kirimo ibikoresho by'ibanze ashobora kwifashisha igihe agiye kuvura, gupima cyangwa se kwita ku murwayi, agiye kumuha ubuvuzi bw'ibanze amusanze aho yagiriye ikibazo.

Umusore ufite imisatsi y'amadirede, wambaye ibikomo byinshi ari gukora siporo ndetse ari kugorora umubiri we, yateye intambwe imbere y'ibumoso akaguru k'iburyo gasigara inyuma, ndetse hari ibiti ari kwifashisha akora iyo siporo birambitse hasi.

Umukobwa ari gukora siporo yicaye ahantu hameze nko mu kibuga ndetse akaba arambuye amaguru ye yose, yamanuye amaboko afashe ahagana mu kirenge bisa nkaho ari kugenda arambura imitsi ye.

Amazi, pome ndetse n'izindi mbuto zitandukanye nk'amacunga ni ibyo umuntu umaze gukora siporo akwiriye kurya kugira ngo bifashe ubuzima bwe.

Umugabo wambaye agakabutura k'umukara, wambaye inkweto zifunze neza ndetse n'amasogisi, akaba ari mu dusiporo, yafashe ukuboko kumwe kuri hasi ndetse ukuguru kumwe kuri inyuma ukundi imbere, ari kugorora imitsi ye.

Umuntu wambaye ijire, afashe umuntu w'umusore ufite isengeri yambaye, iriho nimero y'umubare, ibihumbi bitanu magana atatu na kabiri, bisa nk'aho yari ari mu irushanwa ryo kwiruka, akaba agize ikibazo.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse na siporo zitandukanye, ariko igihe umaze kuzikora jya wibuka kurya imbuto ziganjemo, inyanya, ibitunguru, ibinyomoro ndetse n'ibindi.

Umugabo ufite kuteri akaba yazizingiye mu ijosi, ndetse akaba yambaye agapira na bande ku ntoki bigaragara ko ari kunywa amazi nyuma yo gukora siporo akananirwa.

Igikoresho cyo kwa muganga kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo hariho n'utundi tubara tw'umweru, iki gikoresho gikoreshwa cyane mu buvuzi bugiye butandukanye.

Umusore wifashe mu mayanyinya, yambaye ipantaro y'umukara nako ni ikabutura, akaba yifashe mu kirenge bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, aho yazamuye ukuguru kwe agushyira ku cyuma hejuru, ubona ko yamanuye n'ukundi kuboko agafata ku ino ry'igikumwe, ari kugorora ingingo.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu buvuzi bugezweho aho umurwayi aza akakiryamaho hanyuma kikamusikana kikamenya indwara arwaye, ndetse n'ibindi bibazo afite mu buzima.

Umugabo umaze gukora siporo ari kunywa amazi meza, akaba ari kuyanywera mu icupa yasamye areba hejuru ni byiza kunywa amazi meza igihe cyose umaze gukora siporo.

Umuntu ufite ekuteri mu matwi wambaye agapira k'umweru ari kunywa amazi bigaragara ko avuye muri siporo, ndetse siporo zikaba zimufasha kugorora umubiri we.

First aid kit, namagambo y'icyongereza yanditse mu ibara ry'umutuku asobanurwa ngo ubutabazi bw'ibanze cyangwa se ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, harimo imakasi, imiti iri mu macupa, itoroshi cyangwa isitimu, uturindantoki n'ibinini bya....

Umugabo wambaye agapira k'umweru wifashe ku kuboko ndetse ukuboko afasheho akaba agufatiyeho igipfuku kwa muganga bamushyizeho.

Umukobwa ukiri mutoya, ufite agasatsi gakeya ka orodineri, akaba yambaye isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso, ari gukora siporo azamura amaboko, yongera ayamanura.

Umukobwa mwiza wambaye agasengeri k'umukara, uziritse telefone ku kuboko, akaba ari kunywa amazi nyuma yo gukora siporo maze akananirwa, bityo bikaba ari byiza ko tunywa amazi igihe cyose tumaze gukora siporo.

Nibyiza ko igihe wakoze siporo ukananirwa ndetse ukagira imbaraga utakaza, ni byiza kurya ibintu birimo imbuto zitandukanye nk'imineke inkeri ndetse n'ibindi.

Umukobwa ari gukora siporo yicaye hasi yarambuye ukuguru ndetse amaboko ye kumwe kurarambuye gufashe ku mano y'ukuguru akaba yambaye agasengeri k'umweru, mubyukuri ni byizayiza gukora siporo kuko bifasha ubuzima bwacu kumera neza.

Ibikoresho byifashishwa mu mikino igiye itandukanye, mu rwego rwo gukora siporo. Harimo umupira w'amaguru, umupira w'amaboko wa basket n'undi wa volley. Ndetse hashushanyije n'undi wa rugby.

Ibibabi bya avoka na byo bishobora kwifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda ndetse bamwe bavuga ko bivura indwara zigiye zitandukanye.

Ku isoko hari uruhererekane rw'ibicuruzwa bitandukanye, hari ibifunze mu macupa ndetse hari n'imbuto z'amaronji.

Igiti kinini kiri ahantu mu byatsi ndetse bigaragara ko hadahingwa, iki giti kikaba kirekire kandi kikaba gifite amashami bisa nkaho kigiye kuma.

Amacupa menshi agera mu mubare tutabasha kubara harimo imiti ya gakondo, abitswe muri etajeri nziza cyane, ifite hasi no hejuru hirya no hino, hose habikwamo iyi miti.

Icupa rinini ribyibushye rirapfundikiye neza cyane, rishushanyijeho agapapuro karizengurutse, handitseho ijambo umuravumba, mbese risigura ko umuti urimo ukomoka ku muravumba ukaba wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibimera bitandukanye, bisa nk'ibyubakiye na senyenge, bigaragaza ko byabungabunzwe, kugira ngo bizifashishwe mu buvuzi bwa gakondo, bw'indwara zigiye zitandukanye.

Imiti myinshi cyane iri mu bubiko, ifungiye mu macupa apfundikiye neza, ayo macupa yose akaba arimo imiti ikomoka ku bimera ndetse ikaba yitwa imiti ya gakondo.

Imiti itandukanye ifunze mu macupa ya purasitike ipfundikiye neza cyane ndetse hari ibipapuro bizengurutse kuri aya macupa byanditseho uko iyo miti ikoreshwa, yose ikaba ari imiti ya gakondo.

Igikakarubamba ni ikimera kizwi ndetse ku kigero cya mirongo inani na gatanu ku ijana nta munyarwanda utakizi. Iki kimera kigira uruhare mu buvuzi bwa gakondo bugiye butandukanye.

Ububiko bw'imiti myinshi cyane, igiye itandukanye. Ni imiti yiganjemo iri mu macupa y'umweru, ndetse ipfundikiye neza cyane, kugira ngo itangirika. Gusa igitangaje, yose ni imiti ya gakondo.

Icyatsi kizengurutse hasi akaba ari icyatsi gikura kirandaranda gusa hateretseho icyuma icyo cyuma bisa nkaho cyari kigiye gukata iki kimera ngo cyifashishwe mu buvuzi bwa gakondo.

Umuntu ari gukanda icupa, ribamo umuti witwa korogate, ndetse hari undi uteze uburoso. iyo korogate iri kujyaho. Icupa rya corogate rishushanyijeho igikakarubamba. Bigaragara ko igikakarubamba gishobora gutanga umuti wa korogate.

Hari ibikarito bitatu ndetse n'ikindi kimwe kiri guhungutsa umutwe. Byose bikaba byanditseho amagambo y'Icyongereza ndetse ayo magambo agaragaza ko bipfunyitsemo imiti ya gakondo.

Hari umuti uri mu ducupa tugiye dutandukanye ndetse utwo ducupa twose tukaba ari dutoya ariko na none si duto cyane kamwe gashushanyijeho igikakarubamba kakaba ari ak'umuhondo.

Bimwe mu bimera bigiye bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo. Ibi bimera birasoromwa, bigatunganywa bityo bikifashishwa muri ubu buvuzi ndetse muri byo twavuga nk'ikimera cy'umusave.

Igikarito kinini cyane kikaba ari ikarito gifunze neza cyanditseho amagambo, ayo magambo akaba asobanurwa ko harimo imiti ya gakondo.

Amacupa abiri y'umuhondo, inyuma yayo hari igikarito, icyo gikarito gishushanyijeho umugabo ndetse handitseho andi magambo, bigaragara ko hapfunyitsemo imiti ya gakondo.

Ibimera bitandukanye by'ibyatsi, bimera mu gihuru no mu mashyamba, bikaba bigira uruhare mu buvuzi bwa gakondo ndetse bivur’indwara nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko dukoresha imiti imwe n'i imwe ikomoka ku bintu bitagoye, n'ubwo dukunze kuyita imiti ya gakondo ariko inanasi, imineke ndetse n'ibindi bimera bigira uruhare mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Imiti ya gakondo ni imiti myiza cyane ikoreshwa n'abaganga bazwi nk'abaganga ba kinyarwanda ndetse bakaba bavura indwara zitandukanye.

Agacupa karimo umuti bigaragara ko ari umuti wo k'uruhu cyangwa se amavuta yo k'uruhu gusa akaba ari umuti wa gakondo.

Ibimera bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, by'umwihariko hari ibyo abanyarwanda twese tumenyereye nk'umuravumba ndetse akaba ari ikimera cyiza cyane, cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Imiti ikomoka ku bimera ndetse no ku bihingwa bigiye bitandukanye, itunganywa mu buryo bwa gakondo, ikifashishwa mu buvuzi. Barayisekura, bakayisya bakayanika ndetse imwe n'imwe bakayiteka mu nkono.

Amacupa atatu ashushanyije hejuru ndetse n'andi atatu y'umweru ashushanyije ahagana hasi, aya macupa yose ariho igikakarubamba, bigaragara ko imiti irimo ikomoka ku gikakarubamba.

Icyapa gishushanyijeho umuntu wambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu, ndetse hakaba hashushanyije imiti iri mu ducupa tugerekeranyije, bisobanurwa ko ari imiti ya gakondo.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugiye butandukanye ndetse bwa gakondo, bityo ni byiza gusigasira no kubungabunga ibi bimera.

Umugabo ufite ikimera bigaragara ko ari umuvuzi wa gakondo, uvuye gushaka imiti kugira ngo azayifashishe avura abarwayi bagiye batandukanye.

Icupa rinini rirerire ariko rimeze nka rya rindi bashyiramo korogate cyangwa rya rindi riba nk'umuti wo mu maso ryanditseho ijambo ry'icyongereza rivuga ngo seroum.

Hari imiti ikomoka ku bimera ndetse ikaba ikunzwe kwitwa imiti ya gakondo. Iyi miti ifunze mu macupa itandukanye ndetse ikaba ari imiti myiza.

Ifoto zishushanyijeho amabara agiye atandukanye ndetse akaba ari amabara y'ibimera bisa nkaho bidushishikariza kwita ku buvuzi bwa gakondo kuko nabwo bwemewe.

Umuti ukomoka ku bimera ufunze mu gacupa. Ako gacupa kakaba gashushanyije iruhande rw'icyapa. Icyo cyapa kiri mu mabara y'umweru. Hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku.

Icupa rinini rigari ryanditseho amagambo ndetse rikaba ripfundikiye neza n'umufuniko utukura. Hari ikimera cy'igikakarubamba iruhande rwaryo, risobanura ko umuti urimo uva mu gikakarubamba.

Amajerekani abiri manini ndetse bamwe bakunze kwita amabuni, hariho igishushanyo, icyo gishushanyo ni igikakarubamba, imwe ni umuhondo, indi ni umweru.

Ibikarito bitatu birebire bizamutse byanditseho ijambo alliance ndetse hasi handitseho ngo makumya na kane kuri rimwe nacuro siyanti kose, bikaba bisobanura ko uyu muti urimo ari umuti ukomoka ku bimera ndetse witwa uwa gakondo.

Ikimera gisa n'umuravumba, kigaragara ahantu henshi ndetse kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Icupa ryiza ry'umweru ryanditseho amagambo y'Icyongereza ndetse rikaba ryanditseho n'umubare mirongo itandatu, ripfundikijwe umupfundikizo w'umweru, rikaba ripfunyitsemo imiti ya gakondo yatunganyijwe n'abaganga bakora ubwo buvuzi.

Amacupa yose yenda gusa, ni amacupa y'umweru apfundikiye neza, handitsweho amagambo ndetse n'imibare, ayo macupa yose afungiyemo imiti ya gakondo.

Umuti ukomoka ku bimera, ukaba ari umuti ukomeye cyane uvura indwara zitandukanye. Uyu muti ukaba ukoreshwa nk'umuti wa gakondo.

Amacupa atandukanye ndetse harimo ijerekani nini, yose hakaba handitseho amagambo inyuma, ndetse ku ijerekani no ku macupa amwe n'amwe hashushanyijeho igikakarubamba.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora ubuvuzi bwa gakondo mu by'ukuri ni byiza ko tubyitaho tukabibungabunga tukabisigasira kugira ngo bitazima kandi byari bifite umumaro.

Umuti ufunze neza mu gacupa, agacupa k'umweru gapfundikije umufuniko w'umweru, kakaba kanditseho amagambo y'icyongereza, ariko kakaba kagaragaza ko karimo umuti wa gakondo.

Icupa rirerire rizamutse, rishyorombotse ryanditseho amagambo y'icyongereza, ndetse rikaba ari icupa ririmo umuti kandi uwo muti ukaba ukomoka ku bimera cyangwa se ku bihingwa.

Avoka isatuye iri kugaragaza ibisate bibiri kimwe kikaba kirimo n'urubuto rwayo. Hari ikimera kiri inyuma cy'igikakarubamba, hagati muri voka ebyiri ibisate bibiri byayo harimo isabune ishushanyijemo, bigaragaza ko iyo sabune yakozwe muri voka ndetse igakorwa no mu gikakarubamba.

Igishushanyo kiriho amafoto agera muri ane hamwe hari ifoto y'ikimera kizamutse hejuru ahandi hari ifoto y'akaboko gafashe ikimera ndetse ahandi hari andi amafoto y'abantu bafashe ikimera mu ntoki bisa nkaho bari gutunganya imiti ya gakondo.

Ikimera gikunze kuboneka ahantu hose ndetse kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, iki kimera kikaba kizwi ku izina ry'umusave.

Mu bihuru byinshi cyane ndetse byiganjemo ibyatsi n'ibiti byimejeje bitatewe n'abantu niho hava imiti ya gakondo abaganga bagenda bagasoroma.

Igiti kirekire ariko bidakabije, kikaba gisa n'umweru, ndetse ni ubwambere nkibonye, iki giti gifite kuba kivura indwara zitandukanye.

Pikinyeri irimo imiravumba, iyo miramvumba bikaba bigaragara ko yahombetswe ndetse bamwe bita kugemekwa kugira ngo izaterwe ahantu habugenewe.

Ubutaka kuri ubwo butaka bukaba buriho ikimeze nk'ururabo kikaba ari ikimera kizwiho kuvura indwara zitandukanye gifite uturabo tw'iroza n'amababi ameze nk'amashu.

Amacupa menshi agiye atandukanye yiganjemo ay'umweru ndetse umuhondo n'andi yenda gusa ibara ritukura hakaba hari irirerire rimwe ry'umweru rishushanyijeho igikakarubamba rigaragaza ko ari imiti ya gakondo.

Ubuvuzi gakondo, ni ubuvuzi budakunze guhabwa agaciro, cyane cyane n'abantu baturuka mu Mujyi, ariko mu Cyaro bufite agaciro gakomeye kuko usanga rimwe na rimwe buvura n'amarozi.

Amacupa meza ndetse n'ikarito, byose biri mu mabara y'umweru inyuma handitseho amagambo y'Icyongereza ndetse akaba ari amagambo agaragaza ko ari imiti ya gakondo.

Ibimera bibiri by'umusave biri ahantu bigaragara ko byatewe ndetse bikaba bitanga umuti uvura indwara zikomeye, bikaba byifashishwa nk'umuti wa kinyarwanda uzwi ku izina rya gakondo.

Amacupa abiri y'umuhondo ari hagati hino, yayo hari igikarito gishushanyijeho umugabo, cyanditseho fa cumi na gatanu. nanone ku rundi ruhande, hari ikindi gikarito kigufi cyanditseho fa cumi na gatanu, ni imiti ya gakondo.

Ikimera cy'umusave kiri mu bihuru kikaba ari ikimera cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo kigira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa rirerire rikaba ririmo umuti wa gakondo ndetse handitseho ijambo ry'Icyongereza, iryo jambo riragira riti shampo, bigaragara ko ari umuti ukoreshwa mu gufura mu mutwe.

iIbimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ibimera byose bikaba ari ibimera biboneka ahantu hagiye hatandukanye hirya no hino mu bihuru no mu mashyamba.

Agacupa gafunzemo imiti itandukanye, kakaba gapfundikiye neza, gashushanyijeho icyapa kiriho amagambo yIcyongereza, ndetse hari n'akantu k'akanyugunyugu.

Akavido kanini kanditseho amagambo y'Icyongereza ari mu mpine emu pi di hejuru yayo hari umubare kabiri ndetse n'agakubo, hakaba handitseho na nimero umuntu yahamagara.

Icupa ririmo umuti wa gakondo, rikaba ari icupa rifunze neza ripfundikije umupfundikizo w'umweru ndetse rikaba rishushanyijeho akana gatoya.

Igishushanyo kigaragaza amagambo yanditseho, ari mu cyongereza asobanura yuko tugomba gukoresha ubuvuzi gakondo ko na bwo bwadufasha.

Icupa rirerire ripfundikijwe umufuniko uri mu mabara y'umweru n'umukara ndetse hashushanyijeho akantu k'agasimba kameze nk'akari kuguruka. Gusa ni umuti ukomoka kuri gakondo.

Ibikarito byinshi bitandukanye bifungiyemo imiti ya gakondo bikaba byose bifunze neza ku buryo imiti irimo idashobora kwangirika.

Abantu benshi cyane bakunze kutizera imiti ya gakondo, nyamara imiti ya gakondo ikwiye kwizerwa kuko iravura igakiza indwara ndetse isigaye ibikwa neza mu bikarito, mu macupa ndetse ikanaba ifite ubuziranenge.

Ibimera bigiye bitandukanye, abanyarwanda benshi bazi, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ndetse ibyo bimera bikunze kugira uruhare cyane mu gukiza indwara zigiye zitandukanye. Ikimera kizwiho kuvura indwara nyinshi ni icyitwa umuravumba.

Pikinyeri, pikinyeri ni ahantu habugenewe bahombeka imbuto cyangwa imboga kugira ngo zizahingwe ndetse bigaragara ko aha ho bahahombetse ibimera byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ikimera cy'umuravumba ni ikimera kiza cyane kifashishwa mu buvuzi gakondo, aho kivura indwara zirimo inkorora, indwara zituruka ku buhumekero izo arizo zose nk'ibicurane kirazivura.

Ikimera kiri ahantu heza bigaragara ko kitaruye ibindi bimera. Ni ikimera kivamo umuti wa gakondo benshi twita umuti wa kinyarwanda.

Uruhurirane rw'imiti myinshi, ipfunyitse mu macupa ikaba ipfundikiye neza, ndetse iriho ibipapuro inyuma kuri ayo macupa. Yose ni imiti ya gakondo.

Umuti ukomoka ku gikakarubamba nk'uko bigaragara uri mu icupa rirerire rizamuye ndetse hakaba hashushanyijeho iki kimera.

Amakarito afungiyemo imiti igiye itandukanye, ikomoka ku bintu byinshi ndetse harimo n'inanasi ndende nziza yeze.

Amacupa meza cyane afungiyemo imiti, iyo miti ikaba ikomoka ku bintu bigiye bitandukanye birimo nk'avoka, tungurusumu ndetse n'ibindi. Mbese ni imiti ya gakondo cyangwa ya kinyarwanda.

Umusave ni ikimera gikunze kuboneka ahantu henshi mu Rwanda ndetse umuturage wese, hafi ku kigero cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana, aba akizi. Iki kimera cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amacupa atondekanyije ku murongo, akaba yose apfundikiye neza ndetse inyuma hariho ibipapuro biyazengurukaho, byanditseho uko imiti irimo ikoreshwa.

Udukarito dutatu dufunzemo imiti twanditseho amagambo agaragaza uburyo iyo miti irimo ikoreshwa, ndetse hakaba hari ikindi gikarito kiri guhingutsa umutwe haruguru ku ibara ry'ubururu, ndetse akaba ari imiti yose ya gakondo.